Umuhinzi arimo aratera ibiti, iruhande rwe hari umuntu wambaye imyenda isa n'inifomu ya gisirikare uyunguyu urigutera ibiti yambaye imyenda imurinda kuba yakometswa n'ibyo ari gukora yambaye imyenda irimo nka ga, n'inkweto ndetse n'ingofero.

Ubworozi bw'amatungo maremare, inka irimo irakamwa umugabo arimo arakama inka umugore arimo arayagaza kugira ngo idatera amahane, hari izindi nka nyinshi ziri ku mpande, ziragiwe n'abantu batandukanye.

Ubwikorezi bwo mu muhanda, umugabo ufite igare arimo ararisunika ahetseho ibintu hagaragazwamo n'igikoresho cy'ubuhinzi aricyo bita igitiyo, inyuma ye hakaba hari undi mugabo bigaragara ko bavuye mu kazi kamwe, umugabo nawe afite igikoresho cyitwa umupanga cyifashishwa mu gutema ibihuru cyangwa ibiti bikiri bitoya.

Ibyatsi byinshi bikunze kwitwa ibihuru, biteye bigundutse cyane, biragaragara ko bino byatsi ari byinshi bimaze igihe bidatemwa, bishobora kuba ibyatsi kimeza cyangwa se bikaba ari ibyatsi byatewe n'abantu, ariko amahirwe menshi aragaragaza ko ari ibyatsi kimeze.

Ubuhinzi bw'imboga, hahinze imboga zizwi ku mazina yo kwitwa amashu, umubyeyi w'umumama cyangwa se umugore, arimo arazivomerera, aravomerara izi mboga kuko birasa nk'aho izuba ryabaye ryinshi imvura ikaba nkeya, akaba arimo azivomerera kugira ngo zibone amazi.

Umuntu arimo aravomerera ibihingwa, ibihingwa bigufi bishobora kuba ari indabo, bishobora kuba ari ikawa, bishobora kuba ari icyayi ariko igikorwa arimo akora ni uko arimo abivomerera akoresheje amazi.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko nyinshi z'imishwi, imishwi ni inkoko zikiri ntoya cyane, zororerwa ahantu hamwe, zikaba zihabwa ibyo kurya bitandukanye, aho inkoko zigenda zihurira ku kantu karimo ibyoku kurya byazo, haba harimo wenda nk'ibiryo n'ibindi bitandukanye nk'amazi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, amatungo yo mu rugo, zikaba ari ingurube, haragaragara ingurube eshatu zororewe ahantu hamwe, zinogurube zirimo zirafata amafunguro, zirimo zirafata ibyo kurya aho ziba kandi zirimo zirasangira.

Ikusanyirizo ry'ibihingwa bihingwa n'ibinyamisogwe, aho byakusanyirijwe mu mifuka bikagenda bibikwa ahantu hatandukanye, ibi bihingwa bigaragara ko byaba ari umuceri ariko bigera kuba nanone nk'ingano cyangwa se bikaba ari uburo. Ariko n'ibihingwa by'ibinyamisogwe.

Inyamaswa zo ku gasozi ziri mu bwoko bw'inyoni cyangwa se ibiguruka, inyoni iri mu mazi irimorogamo ishobora kuba irimo gushaka utunyamaswa two mu mazi kugira ngo ibone icyo kurya, cyangwa se ikaba irimo yoga bisanzwe.